Icyumba kirimo ababyeyi b'abagore bicaye bafite abana, imbere hari umubyeyi ufite umwana ndetse ufite na amverope y'impapuro irimo ifishi, bavuye gukingiza abana, iyo amverope irimo ifishi y'umwana, ifishi y'urukingo.

Georgear global hark alliance ni ihuriro rihuza ibigo n'imiryango itandukanye ikorera murwego rw'ubuzima rusange muri leta zunze ubumwe za Amerika. Intego nyamukuru y'uyu muryango ni uguteza imbere ubuzima rusange ku isi yose binyuze mu bufatanye ndetse no guteza imbere ubushakashatsi ndetse n'uburezi.

Umuganga w'umugore wambaye ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, umugore afite ikaramu ndetse n'igitabo arimo kwandikamo ari kuganira n'umugabo ibyo amubwiye agenda yandika, ari kumuha amahugurwa agaragaza ko sida igihari kandi tugomba kuyirwanya.

Umubyeyi wikoreye ijerekani y'umuhondo ipfundikije umufuniko w'umutuku uvuye kuvoma amazi, imbere ye hari umwana nawe ufite akajerekani gatoya ku rutugu, imbere yaho hari n'undi mwana w'umukobwa uhagaze imbere yabo abareba.

Abaforomo bambaye amataburiya asa ubururu ndetse n'umugabo uri imbere yabo wambaye ikoti ry'umukara bo ku kigo nderabuzima cya Mayange. Barimo kubyina, barimo gukoma amashyi, barishimye. Bishimiye umuntu wabasuye ndetse wabaganirije.

Abana bafite indobo, abandi bafite amajerekani, bafite indobo y'ubururu, indobo y'umuhondo, indobo y'icyatsi ndetse n'indobo y'umweru, bari kuvoma amazi ku mugezi, ku mugezi hari amarobine abiri bamwe bari kuvomera kuri robine y'inyuma, abandi bakavomera kuri robine y'imbere, kugira ngo bose babashe kuvoma vuba kandi byihuse.

UNICEF, ni ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abana, UNICEF for every child, risobanura gahunda cyangwa se intego UNICEF ifite cyangwa se igamije mu guteza imbere uburenganzira n'imibereho myiza y'umwana wese aho ari hose.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye ingofero ndetse wambaye n'umupira wimbeho, ari kuvoma akoresheje amajerekani atatu y'umuhondo, hari imigezi ibiri yose iri kuzana amazi. Yateze amajerekani abiri ndetse n'injerekani itegereje ko andi yuzura nayo ikavomerwa.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe, imbere yabo hari imashini, hari intebe bicayeho ndetse hari n'umuntu bari gupima ngo barebe uko umuvuduko w'amaraso we uhagaze, umuntu yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi y'umukara ndetse yambaye n'ipantaro y'umweru.

Abana babiri umukuru n'umutoya umukuru ufite ikijerekani kinini undi afite akajerekani gatoya bari kuvoma amazi yo mu kiyaga ahantu hari akayaga gatoya kegereye ikiyaga kinini bari kuvoma amazi bigaragara ko ari amazi adasa neza, ari amazi ashobora kuba yaba mabi yakwangiza ubuzima bw'abantu kubera uburyo asa.

Abagore abagabo ndetse n'abana, umugore ukikiye umwana, umwana uri imbere ufite ijerekani uri kuvoma inyuma hari umugore uri kumusunikira kugira ngo amazi abashe kuza, ayo majerekani y'umuhondo ni amajerekani ategereje kugira ngo hajyemo amazi ndetse n'abo bantu b'inyuma, ni abantu bategereje ko amazi ajya mu majerekani yabo ubundi bakayacyura.

Abaganga bari kumwe n'abagore, abakobwa ndetse n'abagabo. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'intebe bari bicayeho ubwo bahugurwaga. Bari imbere, barigufata ifoto, bamaze gukora amahugurwa agamije gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Umubyeyi w'umugore wicaye ku ntebe y'ubururu, gutera umwana w'umuhungu, ufite impapuro mu ntoki, ari kumwe n'umugabo wicaye ku ntebe y'uruba, ufite ibitabo iruhande rwe ndetse akikiye n'ikindi gitabo mu ntoki, yambaye inkweto za bote arimo kuganiriza uyu mugore, ndetse n'umwana we.

Umuntu uri gukaraba intoki akoresheje amazi y'umugezi, intoki ni kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu gikoreshwa mu gufata ibintu bitandukanye ndetse no gukora ibintu bitandukanye. Gukara mu ntoki ni byiza kuko byongera isuku, ndetse bikanagabanya amahirwe yo kuba wakandura indwara zimwe na zimwe zituruka ku mwanda.

Abanyeshuri batanu bambaye imyenda y'ishuri, batatu bambaye inkweto z'umukara, abandi bambaye inkweto z'ibara risa igitaka, barimo koga mu ntoki bakoresheje ivomero, bane bari koga undi arahagaze, bambaye n'amakaruvati.

Abagore babiri bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukara, buri muntu afite ikayi imbere ye ndetse bose bafite n'amazi bari, kuganira umugabo umwe yicaye imbere yabo ari kubaganiriza ndetse bose bungurana ibitekerezo.

Abagore babiri; uw'imbere ufite imisatsi isutse, wambaye amaherena y'umweru ndetse n'agapfukamuwa k'ubururu, isaha ndetse n'impeta. Ateruye mwana mu ntoki, arimo kumusoma. Uw'inyuma na we yambaye agapfukamunwa k'umukara, akikiye umwana.

Abagore babiri ndetse n'abana batatu. Umugore umwe arikoza umwana mu ibase isa iroze. Undi mwana afite indobo y'icyuma arikuvoma amazi ava ku mugezi. Undi mugore afite indobo y'icyuma ndetse afashe umwana we.

Abana babiri umwe uri guseka ari gukaraba mu ntoki, mugenzi we afite igikombe mu ntoki ari kumusukira amazi mu ntoki kugira abashe gukaraba mu ntoki, koga mu ntoki ni byiza kuko bifasha mu kurwanya indwara, mu gukumira ikwirakwira ry'indwara ndetse no guteza imbere isuku rusange.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku ufite imisatsi isutse, imbere hari ibase ndetse na rubine, ari gukaraba mu ntoki, gukaraba mu ntoki ni byiza cyane kuko bifasha mu kurwanya indwara, gukumira ikwirakwira ry'indwara ndetse no kurinda abandi mu gihe hari icyorezo.

Umugore wambaye agapira karimo amabara y'umuhondo n'umukara, wambaye n'umupira w'imbeho yiteze igitambaro, ku mutwe we yikoreye igitebo hasi y'igitebo harimo ingata imufasha kwikorera igitebo neza, mu gitebo harimo imigozi y'ibijumba ndetse afite n'isuka mu ntoki ze.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye umupira ndetse n'inkweto za kamambiri, wicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari umusambi, no hejuru ye hari idirishya rifunguye. Umugore ari gutekereza, hari ikintu arimo gutekerezaho.

Wihogora Psychosocial Centre ikigo cyigenga cy'ubuvuzi bwo mu mutwe giherereye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa Kigali gitanga serivisi z'ubujyanama ku giti cy'umuntu, ubujyanama ku muryango, ubujyanama ku bana n'ingimbi, ubujyanama ku bageze mu za bukuru ndetse n'ubujyanama ku babyeyi

Umuganga w'umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'umugore wambaye umupira w'icyatsi witeze n'igitambaro, wicaye ku ntebe y'ubururu. Imbere yabo hari ameza hariho igitambaro cy'umuhondo ndetse n'icupa ry'amazi. Umugabo arikuganira n'umugore ibyo baganiye abyandika.

Madamu Jeanette Kagame umugore wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga ku bumuga bwo mu mutwe bwangiza imibereho myiza y'imiryango, ndetse bukanadindiza iterambere ry'imibereho n'ubukungu, nta buzima buhari hatabayeho ubuzima bwo mu mutwe. Madamu Jeanette Kagame.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu wifubitse n'igitambaro cy'umutuku kirimo n'andi mabara, umweru n'igitaka, ndetse n'umukobwa uri imbere ye wambaye ipantaro ufite n'imisatsi, ari kuganiriza umugore wifubitse igitambaro ku munwa, yandika ibyo umugore amubwira, uyu mugore agenda amubwira uko ameze, n'undi nawe yandika.

Abana benshi barimo guseka, hari abambaye inkweto, hari n'abambaye ibirenge, bose barahagaze bari guseka barimo kwifotoza, hari abafite utujerekani bagiye kuvoma ndetse abandi nta kintu bafite mu ntoki.

Abagore ndetse n'umugabo bicaye bari kuganira, umugore umwe yambaye ijire, ari kuganiriza abantu, afite n'agapfukamuwa mu ntoki, yagakuyemo mu rwego rwo kugira ngo abashe kuvuga neza, ari kuganiriza abandi bafite amakaye mu ntoki, bateze amatwi, ndetse bandika n'ibyo barimo kumva.

Umugabo ufite amenyo y'umweru afite n'urudodo rwabugenewe rufasha mu gukura imyanda mu menyo, ni urudodo rufasha gukura imyanda mu menyo cyane cyane mu menyo afatanye kugira ngo imyanda irimo hagati ibashe kugenda ivamo.

Umwana wiyogoshesheje wambaye umupira w'umweru uri kumwe n'umugabo usutse, bafite akadodo bose bagafasheho bagashyira mu kanwa mu menyo yabo, gafatiye ku menyo y'umugabo ndetse kagafatira no ku uyu mwana, kandi bose bakaba bagafatishije intoki zabo.

Umugabo ufite isume ku rutugu wambaye ubusa hejuru, ufite akagozi cyangwa akadodo kabugenewe gakoreshwa mu gukura imyanda mu menyo, ni akagozi gakoreshwa mu gukura imyanda mu menyo, aho uburoso butagera kagafasha kuba kakuramo imyanda yihishe mu menyo.

Umugabo ufite ubwanwa utambaye imyenda hejuru ndetse ufite n'urudodo mu ntoki, arimo kukuru rufashe mu ntoki ebyiri zo ku biganza bitandukanye, urudodo ruciye mu kanwa rufashe ku menyo ndetse rufashe no ku munwa arimo no guseka.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa, ndetse wambaye n'udukoresho twabugenewe twambikwa mu ntoki mu gihe umuganga ari gukora akazi ke, yambaye n'amarineti mu mutwe, arimo kuvura umwana amushyira icyuma mu kanwa, umwana aryamye ku gitanda cy'abarwayi bwabugenewe, ari kumwoza amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara uri ku ivuriro ry'amenyo, aho muganga ari gupima ibara ry'amenyo ye hifashishijwe icyuma cyabugenewe kugira ngo abashe kureba niba ibara ry'iryinyo rishya rizahura n'iry'amenyo asanganwe.

Umuntu wambaye umwambaro w'abarwayi ufite igikoresho gikoreshwa n'abantu bafite intege nke abarwayi bamaze kubagwa abakuwe mu bitaro abageze mu za bukuru cyangwa se abafite ubumuga bworoheje kugira ngo kibafashe kugenda neza ndetse kibafashe kwirinda kugwa.

Umukecuru wicaye hasi uri guteka akoresheje amashyiga atatu, hateretseho isafuriya ndetse no hejuru y'iyo safuriya hari indi ipfundikiye, muri ayo mashyiga harimo umuriro ndetse uyu muriro uyu mukecuru ari kuwucana akoresheje ibikenyeri.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bari gufasha umugabo ukuze, bamufasha guhaguruka ku gitanda kugira ngo abashe kugenda. Ni umugabo ufite indwara ariko bari kumufasha kugira ngo abashe kugenda, abashe kugorora imitsi ndetse n'ingingo zimwe na zimwe. Bimufashe kumugabanyiriza indwara mu gihe cy'izabukuru.

Umugore ukuze cyangwa se umukecuru ufite imisatsi, wambaye ikanzu y'umuhondo wicaye ku ntebe ndetse imbere hari ameza, hari n'ibinini, afite icupa ry'ibinini agiye gushyira ikinini mu ntoki agiye kukinywa.

Umuganga w'umukobwa, wambaye umwenda w'ubururu, wabugenewe, ndetse ufite n'imisatsi iboshye. Ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'icyatsi, umugabo ugeze mu zabukuru ufite ikirahuri cy'amazi. Umukobwa afite agakombe k'umuhondo ari gukuramo imiti ari kuyihereza uwo mugabo, kugira ngo ayinywe. Ayinywesheje ariya mazi.

Umusaza wambaye ishati irimo imirongo, mo imbere yambariyemo umupira, ufite imvi, arimo guseka, afite isahani y'umweru mu ntoki irimo ibiryo, ari kwarura ibiryo ashyira ku isahane y'umukecuru, wicaye imbere ye. Ari kurya imboga.

Abantu bari gukora siporo, bari mu rugendo rwo kwita ku buzima bwabo, kongera imbaraga, no kugumana ubuzima bwiza, siporo ibafasha kugira imbaraga z'umubiri, kugabanya umunaniro, no guhangana n'agahinda gakabije, kandi siporo igufasha kugabanya indwara zimwe na zimwe.

Urugendo rugamije gushishikariza abantu kwirinda kanseri y'ibere, kwisuzumisha hakiri kare, kuko iyo kanseri ivurwa kandi igakira. Kanseri y'ibere ni kanseri ifata mu gice cy'ibere igafata cyane cyane abagore, ariko kanseri y'ibere iravurwa igakira, iyo wisuzumishije hakiri kare ukabasha gukurikiranwa n'abaganga.

Icyapa gishishikariza abantu kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, inyuma hashushanyije umuntu urwaye iyo ndwara. Ubushita bw'inke ni indwara iterwa na virusi yitwa make pox virus mu rurimi rw'icyongereza, ni indwara iterwa no gukururana n'umuntu ufite iyo ndwara, kwambara cyangwa se gukoresha ibikoresho byakoreshejwe n'umuntu wanduye iyo ndwara. Bimwe mu buryo bwo kuyirinda harimo kugira isuku, gukaraba mu ntoki, kwambara agapfukamunwa ndetse no kutegerana n'umuntu urwaye iyo ndwara.

Umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bushingiye ku bidukikije wizihizwa buri mwaka ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu nzeri, uyu munsi washyizweho n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku buzima bushingiye ku bidukikije International Federation Environmental Health.

Ababikira bambaye amavara y'umweru ndetse n'umugabo wambaye ikositime ndetse n'ishati y'umweru n'isaha, ababikira bari gusuhuza uwo mugabo, inyuma hari ibirangantego bya Minisiteri y'Ubuzima ndetse na Repubulika y'u Rwanda.

Igikorwa ngarukamwaka kigamije gukangurira abantu kumenya ndetse no gusangira ubunararibonye, ku buzima bwa diyabete, intego z'iki gikorwa ni ukongera ubumenyi ku bijyanye na diabete, harimo ubwoko bwayo ibimenyetso, impamvu n'ingaruka ku buzima bwa muntu.

Inama mpuzamahanga ya makumyabiri ku ndwara ya SIDA n'indwara zifata mu myanya ndangagitsina muri Afurika, yabaye guhera ku wa kabiri kugeza ku wa karindwi ukuboza bibiri na cumi n'ikenda, ibera mu Rwanda i Kigali, ahabereye inama hakaba ari Kigali Convention center.

Ibitaro harimo inyubako zitandukanye, harimo ibiti, harimo ubusitani ndetse n'imihanda abantu banyuramo, harimo amapoto y'amashanyarazi, harimo insinga zitwara amashanyarazi, harimo ibigega by'amazi ndetse n'ahantu abantu bicara mu igihe baruhuka.

Isange One Stop Center imwe mu bigo by'ubuvuzi by'Akarere ka Nyanza, iyi serivisi ya One Stop Center ni imwe muri serivisi ihuza inzego zitandukanye kugira ngo ifashe abahuye n'ihohoterwa kubona ubufasha bwihuse kandi bwuzuye. Iyi One Stop Center iherereye mu Karere ka Nyanza, mu rwego rwo gufasha abantu bahuye n'ihoterwa kubona ubufasha bwihuse kandi bwuzuye.

Inzu y'ababyeyi, imbere yaho hicaye umugore uhagaze urimo kuvuga ndetse n'abandi bagabo bicaye bamuteze amatwi. Inzu y'ababyeyi ni inzu ababyeyi bajyamo mu gihe bagiye kubyara, mu gihe bamaze kubyara, kugira ngo babashe kwitabwaho n'abana babo.

Umurwayi wambaye ikanzu yabugenewe yo kurarana uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, imbere ye hari umuganga wambaye umwenda wabugenewe w'abaganga ndetse ari kumubaza uko ameze inyuma hari undi murwayi uryamye nawe uryamye ku gitanda cyo kwa muganga.

Ahantu hagurishirizwa ibirahure by'amaso byitwa rinete mu rurimi rw'amahanga, hari rinete zimanitse zitegereje kugurishwa, hari intebe abantu bicaraho igihe barimo kureba izibakwiriye cyangwa se izajyana n'ibibazo bafite by'amaso.

Ibitaro biriho inyubako zitandukanye, birimo abantu baje gusaba serivise kwa muganga, birimo ubusitani, birimo amapoto y'amashanyarazi, ndetse naho abantu bajugunya imyanda; harimo ahantu abarwayi bicara bategereje, hari aho bajya gufatira ibisubizo ndetse hari n'aho binjira bagiye kurebera abaganga.

Icyumba cy'abarwayi cyagenewe gucumbikira abarwayi mu gihe barwariye kwa muganga cyangwa se bacumbikiwe kwa muganga kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga. Hari ibitanda byabugenewe abarwayi baryamaho. Hari ameza abarwayi baterekaho ibikoresho byabo ndetse n'imiti. Hari n'udutambaro tubakingiriza dutandukanya aho umurwayi n'undi baryamye.

Farumasi yitwa medsol ishami rya Kanombe, iherereye mu Murenge wa Kanombe, mu Karere ka kicukiro, mu mujyi wa Kigali. Ni farumasi itanga serivisi zitandukanye harimo kugurisha imiti yemewe n'amategeko, inama z'ubuvuzi zitangwa n'abaganga b'inzobere, ndetse no kwakira no gutanga imiti ku banyamuryango b'ubwisungane mu kwivuza ba RSSB.

Ikigo cyangwa se icyumba cyahariwe guhurirwamo n'abashakashatsi, bagamije gukora ubushakashatsi ku ngingo runaka. Ni ikigo gishobora kuba ari ikigo cyigenga, icy'uburezi, cyangwa se icya Leta, bitewe n'intego zacyo.

Akabati kabugenewe kabikwamo imiti, harimo imiti itandukanye iri mu makarito, harimo imiti y'ibinini banywa, hakabamo n'imiti bakoresha bisiga ku ruhu, ndetse hakabamo imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe.

Laboratwari yihariye ikoreshwa mu bushakashatsi n'isuzuma ry'udukoko cyane cyane imibu itera malariya. Aha kandi hakorerwa ubushakashatsi ku mikorere y'imibu, uburyo yandura ndetse n'uburyo bwo kuyirwanya. Hafatirwa urugero rw'imibu ikekwaho gutera malariya, kandi hagakorerwa isuzuma ry'utunyangingo dutera malariya.

Icyumba cyabugenewe aho hapimirwa abarwayi, hari agatanda baryamaho mu gihe bari kubapima, hari imashini zerekana bimwe mu byo basanze bafite mu mubiri wabo mu byo bapimaga, ndetse hari n'aho umuganga yicara hari n'aho bakoresha bapima.

Ibitaro biherereye mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo hafi y'umujyi wa Muhanga, ni ibitaro bitanga serivisi zitandukanye harimo kuvura amagufwa n'immvunane, kuvura hakoreshejwe imyitozo, kuvura amaso, kubaga, kubyaza ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye.

Inyubako ya karayesi furere dla sharite iri ni ishami ry'umuryango w'abihayimana ryashinzwe muw'igihumbi kimwe magana inani na karindwi na padiri Piere Joseph mu Bubiligi, ni ishami rifite andi mashami atandukanye mu Rwanda harimo nka karayesi Ndera ariryo bitaro bikuru bishinzwe kuvura indwara zo mu mutwe ndetse iyi karayesi furere dela sharitet ifite amashami menshi mu Rwanda.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, ari mu cyumba gitunganyirizwamo abana ndetse arimo gutunganya umwana umaze kuvuka amutunganya neza kugira ngo umwana asange umubyeyi we ameze neza, yamuryamishije ahantu habugenewe abana baryama mu gihe barimo kwitabwaho.

Icyumba cy'abarwayi mu bitaro, aho abarwayi bajyanwa kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga. Harimo uburiri bwinshi bw'abarwayi, uburiri abarwayi baryamaho kugira ngo babashe kwitabwaho, harimo inzitiramibu zibafasha kwirinda imibu, ndetse hari n'ameza abafasha gushyiraho ibikoresho byabo mu gihe bari mu bitaro barimo kwitabwaho.

Umuganga arimo arapima umwana w'umukobwa umuvuduko w'amaraso akoresheje igikoresho cyabugenewe gipima umuvuduko w'amaraso, yambaye agapfukamunwa mu rwego rw'ubwirinzi kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye, indwara z'ubuhumekero n'izindi ndwara zose zituruka ku buhumekero.

Inzu ikoreramo Isange One Stop Center. Iyi ni gahunda yashyizweho mu Rwanda, igamije gutanga ubufasha bwihuse kandi bwuzuye, ku bantu bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyangwa n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose. Intego y'iyi gahunda ya Isange One Stop Center, ni ukwitaba vuba no gutanga ubufasha bwuzuye ku bahohotewe mu kigo kimwe, batiriwe bazenguruka ahantu henshi.

Inzu icururizwamo ibirahure by'amaso cyangwa se lunette mu rurimi rw'amahanga, hari ahantu hamanitse rinete zicuruzwa hari ahicaye intebe ndetse n'umuntu ushinzwe kwakira abantu, hari icyapa kigaragaza ko bacuruza rinete ndetse hari n'icyapa kerekana aho binjirira.

Icyumba cy'abarwayi mu bitaro, harimo ibitanda by'indembe bigezweho buri kimwe gifite ameza n'utwuma dufasha umurwayi kubona ibyo akeneye bitamuvunnye, hariho n'udupfukisho dutandukanya abarwayi kugira ngo buri murwayi wese agire ubuzima bwite mu gihe ari mu bitaro, avurirwa mu bitaro.

Umugore witeze igitenge uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, hejuru ye hari inzitiramibu imbere hari umuganga wambaye itaburiya wambaye lunette ndetse ufite n'imisatsi uri kumusuzuma ndetse amubaza n'uko ameze, imbere hari undi muganga uri gufasha mugenzi we mu kwita kuri uyu murwayi.

Icupa ry'amazi ari gusukwa mu kirahuri cy'amazi yo kunywa, amazi ni meza ku mubiri w'umuntu kuko atuma habaho imikorere myiza y'ingingo zose z'umubiri, nko gufasha impyiko gusohora imyanda, gutwara intungamubiri n'umwuka mwiza mu mubiri, gufasha igogora ry'ibiryo mu mara, ndetse kandi amazi afasha mu kugenzura ubushyuhe bw'umubiri.

Agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, karimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga ubufasha bw'ibanze, igihe habayeho impanuka cyangwa se uburwayi butunguranye. Harimo vazerine ikoreshwa mu koroshya uruhu cyangwa kururinda, igihe rwangiritse. Harimo imikasi ikoreshwa mu gutema, ndetse n'ibindi.

Umukobwa uri kwinanura mu rwego rwo gutuma amaraso atembera neza mu mubiri kandi bigafasha umubiri gukora neza, bigabanya ububabare n'imvune ndetse bigafasha umubiri kwitegura gukora, kandi bigabanya ibyago byo kuvunika ndetse no kugira izindi ndwara z'umubiri, cyane cyane nk'imvune.

Inkoni yifashishwa n'abantu bagira ikibazo mu kugenda neza, cyane cyane abageze mu zabukuru cyangwa se abafite ubumuga, iyi nkoni iba ifite igice cyo hejuru cyo kuyifataho neza n'ahandi hepfo hifashishwa mu gutuma ihagarara neza hasi kugira ngo itanyerera, ifasha umuntu kugenda yisanzuye no kugira umutekano mu gihe atambuka, ni igikoresho k'ingenzi mu buzima bw'abantu bafite intege nke, cyane cyane abafite ubumuga n'abageze mu zabukuru.

Umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, uri kunywa amazi mu rwego rwo gusubiza amazi yatakaje mu mubiri, gufasha amaraso gutembera neza, kurinda umunaniro w'imikaya ndetse no mu gufasha mu gusohora imyanda iri mu mubiri, nyuma y'uko akoze siporo.

Umuntu wambaye umupira w'umukara wandikishijeho inyuguti y'umweru, ipantaro y'umukara irimo umurongo w'umweru, wunamye wazamuye amaboko uri gukora siporo, imbere hari umutoza wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'agapira k'ubururu inkweto z'umukara. Ari kumufasha mu gukora siporo, ari kumutoza kugirango abashe gukora siporo neza amuyobora.

Akuma gakoreshwa mu gukora siporo, imboga, imbuto, ndetse n'amazi. Ni byiza gukora siporo, kuko bifasha mu kugorora ingingo, kugabanya umunaniro, ndetse no kongera ubudahangarwa mu mubiri. Ni byiza kandi kurya imbuto kuko zifasha mu kugira ubuzima bwiza, ndetse no kunywa amazi ni byiza, kuko bifasha mu gihe watakaje amazi menshi muri siporo, bigarura amazi watakaje mu gihe wakoraga siporo. Kurya imbuto na byo ni byiza, kuko byongera ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara irimo amabara y'umuhondo, yazamuye amaboko, akaboko kamwe yakagejeje inyuma, akandi kaboko kageretse hejuru ya ka kaboko yagejeje inyuma mu mugongo. Siporo zifasha mu kunanura ingingo, kunanura imitsi, kugabanya umunaniro, ndetse no kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi, umaze gukora siporo ndetse uri kunywa amazi. Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, kuko ifasha mu kurinda indwara, mu kugorora ingingo, ndetse no kugabanya umunaniro ukabije. Iyo umuntu amaze gukora siporo ni byiza ko ahita anywa amazi, kuko kunywa amazi byongera ubudahangarwa mu mubiri, ndetse kandi bimufasha gusubiza amazi yatakaye mu mubiri mu gihe yakoraga siporo.

Inkweto y'abarwayi ifasha abantu kugenda neza mu gihe bakomeretsa akaguru, ikoreshwa nyuma yo kwivuza igufwa ryavunitse ndetse no gukira imvune cyangwa se nyuma yo kubagwa, iha akagura uburenganzira bwo kutikandagira cyane ikanagufasha gukira neza.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'agapira k'icyatsi, imbere hari umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari kumufasha mu kumushyiraho agakoresho gafasha kugabanya imvune ndetse no mu gukanda imitsi mu gihe umuntu yavunitse.

Igikarito kirimo imiti, imiti ivura uruhu harimo amavuta, papiyejenike ndetse n'ibindi byose bikoreshwa mu kwita ku bisebe mu gihe umuntu yakomeretse, harimo nk'umukasi ndetse n'ibipfuko abantu bakoresha bapfuka ndetse n'imiti n'amakorogate.

Amategeko n'amabwiriza akurikizwa mu gihe cya Covid cumi ni'ikenda. Kuguma mu rugo mu gihe urwaye, gupfukamazuru igihe witsamura, koga mu ntoki inshuro nyinshi zihagije, gukoresha umuti wabugenewe, gushyiramo intera ya metero hagati yawe na mugenzi wawe, kudasuhuzanya ndetse n'andi mabwiriza.

Umuhungu wambaye imyenda ya siporo, inkweto za siporo ufite n'imisatsi, ari gukora siporo mu cyumba cyabugenewe cyagenewe gukoreramo siporo ndetse kirimo n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri siporo, ari gukora siporo mu rwego rwo kunanura ingingo mu kugabanya umunaniro ukabije ndetse no kwiyitaho muri rusange kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'umuravumba, igihingwa gikoreshwa mu buryo butandukanye, umutobe wacyo ushobora gukoreshwa wica udukoko tumwe na tumwe, harimo udusimba, ubuzizi ndetse n'utundi, umuravumba nanone ukoreshwa nk'umuti gakondo uvura, ushobora kuvura indwara nyinshi harimo n'inkoro ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Ipapayi urubuto ruvuka ku giti cyitwa ipapayi, rukaba rufite umwihariko mu biribwa byoroheje byoroshye kurya kandi bifite intungamubiri nyinshi, ni rumwe mu mbuto zikungahaye ku ma vitamini n'ibindi bifasha umubiri gukora neza.

Amavuta ya gakondo y'igikakarubamba akoreshwa n'abantu benshi mu rwego rwo kwivuza indwara zitandukanye no kwita ku mubiri, ava mu gice cy'imbere cy'ubugingo bw'igikakarubamba, akaba azwiho kuba afite imbaraga zidasanzwe mu kuvura no gutuza k'uruhu.

Igihingwa cyangwa se icyatsi cyitwa inyabarasanya, ni igihingwa gifite amababi y'icyatsi yegeranye ndetse n'amashami, yagiye ashibuka, ishami rimwe ryazanye indabo, n'andi mashami aragenda ashibuka, azana indabo. Ni igihingwa gikoreshwa mu kuvura, cyane ku bantu bafite ibisebe, mu gihe cyo kuva kw'amaraso, bigabanya kuva amaraso, ukoreshwa nk'umuti gakondo ugabanya mu gihe cyo kuva, mu gihe umuntu afite igisebe.

Igihingwa cy'icyatsi cyitwa umuravumba w'ishyamba gifite amababi menshi, amababi akomeye ndetse yegeranye. Ni igihingwa gifasha mu kuvura indwara zimwe na zimwe harimo indwara y'inkorora, harimo indwara y'ibicurane, ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Igikombe kirimo ifu y'umuravumba, umuravumba ni icyatsi gifasha mu kwivura indwara zimwe na zimwe zo mu mihogo harimo n'iNkorora. Uyu ni umuravumba wasewe kugira ngo ufashe abantu mu kwivura batarinze bafata icyatsi ushobora kuwushyira mu mazi ashyushye kugira ngo ugufashe kwivura indwara zimwe na zimwe zo mu mihogo harimo n'inkorora.

Igihingwa gakondo cyitwa umuravumba ni igihingwa cyifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, gikoreshwa nk'umuti gakondo uvura ibicurane, inkorora n'indwara z'umutwe, gifasha kandi gusukura igifu ndetse no kuvura iseseme. Amababi yacyo ashobora gukoreshwa mu kwirukana imibu ukoresheje umwuka wawo.

Umuti wabugenewe ukoreshwa mu koza amenyo, ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba. Uri mu icupa ry'umweru rishushanyijeho igikakarubamba. Uyu muti ukoreshwa mu koza amenyo, mu kuyagirira isuku, ndetse no kugira isuku yo mu kanwa muri rusange.

Uburoso bubiri bw'amenyo buteretse mu gikombe cyabugenewe, iruhande rwaho hari umuti w'amenyo ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba ukoreshwa mu koza amenyo, abantu bawukoresha boza amenyo, ufata umuti ukawushyira ku buroso ukoza amenyo, muri icyo gikombe ushyiramo amazi akoreshwa mu koza mu kanwa igihe umaze koza amenyo yawe ukoresheje umuti n'uburoso.